Muganga nawe rero, aba akenewe cyane, iyo ubona akwitayeho, abasuzuma, imiti yose mu mwambaro we, bigaragara yuko aba agerageza kubihuza n'uburwayi, umuntu aba yamubwiye. Iyi farumasi rero n'ingirakamaro.

Ubusitani bw'abaturage baba barateguye bashyiramo n'indabo, mu rwego rwo kurushaho kugira ikirere cyiza.